Icyumba kirimo umwana w'umukobwa, ufite terefone mu ntoki, uhetse agakapu mu mugongo, inyuma ye, hari imeza iriho ikayi, ku ruhande hari intebe y'igiti, inyuma yabyo hari icyatsi kirimo amata yunamutse.

Isoko ririmo ibiribwa, imineke, inanasi, amaronji n'inyanya, n'umugore uhagaze ku ruhande n'umugabo bari gucuruza mu isoko.

Isoko ricururizwamo ibiribwa, harimo, karoti, ibitoki, amateke, ibirayi, imineke, ibitunguru, amashu, imyumbati, ku ruhande hahagaze abantu.

Akazu ka sosiyete y'itumanaho rya Eyateri, irimo umukozi ushinzwe gusobanurira abakiriya ibijyanye na Eyateri, ku ruhande hariho imyanda, ibicupa by'amazi, hameze nko mu isoko.

Igipangu kiriho umumotari uparitse imbere yacyo uzanye derivari, ategereje ko bamukingurira igipangu cy'ibara rya gere, ku mumotari ufite moto handitseho derivari.

Inyubako ndende igeretse kane, ifite imireko isize ibara ry'umweru, ikagira amadirishya asize ibara ry'umweru, ikagira inzugi z'imbaho, munsi yayo hari ubusitani...

Ndabona iduka cyangwa alimantasiyo mu rurimi rw'amahanga, ndabonamo amavuta yo kwisiga, ndabanamo inzoga za wine, ndabonamo abagabo bahagazemo b'abakiriya, ndabonamo indobo za omo, ndabonamo amavuta yo guteka, ntabonamo ibirungo, ndabonamo amasabune.

Isoko ricururizwamo ibintu bitandukanye, harimo inkweto z'abapapa n'abagore, imikandara y'abagabo, amasakoshi y'abamama, ku ruhande hariho abamama babiri, imbere yabo hariho umugabo.

Iduka ricuruza ibiribwa, harimo utubati tubiri duteretseho ibicuruzwa, nido, ku ruhande hahagaze abantu, hepfo yaho, hari akagare basunikisha ibicuruzwa baguze.